Icyumba cy'inama, aho abatumiwe bicara bitegeye umuyobozi w'inama, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka mudasobwa iba igaragaza ibyo umuyobozi w'inama yateguye n'ibyo ari kuvugaho.